Inyama imeze neza, barayiteka, bashyiraho ibirungo bitandukanye, bisa n'umutuku, ibindi bisa n'umuhondo. Abacuruzi barayicururiza, abaguzi bakaza kugura. Ikindi kandi, inyama iba mu mafunguro yubaka umubiri.

Imishito itanu y'inyama yokejweho ku mbabura, barambikaho ferabeto yotsa neza cyane kuko bishya ku buryo bwihuse, ikindi kandi bashyiraho ibirungo, ziba zitukura.

Amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye, ateretse mu gikoresho twita etageri, hirya yayo macupa hateretse igikoresho bifashisha bashusha cyangwa bakonjesha bitewe n'icyo abakiriya bashaka. Ni igikoresho cyiza cyane.

Ahantu bita muri bale bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Ibyo kurya n'ibyo kunywa, biba bimeze neza cyane. Ikindi kandi hari intebe zisa n'umutuku, ziteguye neza. Abantu baraza kuharuhukira, ikindi kandi abandi baranahasohokera.

Ibikoresho bifashisha nk'intebe bicaraho, ameza bariraho, ateguye neza, ateguye ibitambaro, afite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku andi asa n'icyatsi, ari ahantu hubatse neza, abantu barahasohokera, baza kuruhuka, bafatiramo ibyo kurya, n'ibyo kunywa.

Intebe zimeze neza zitandukanye zifite amabara atandukanye amwe asa nk'umutuku andi asa n'umweru, hagati yizo ntebe hari imeza iriho umutaka w'umutuku , barahasohokera baza kuhafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa, ikindi kandi izo ntebe ntabwo ziteguye neza.

Ahantu bacururiza ibicuruzwa bitandukanye, bacuruza ibitenge byo kwambara, badoda imyenda, ikindi kandi hari n'inzugi zisize amarangi asa n'icyatsi, hari abantu bari kumanura ibitenge abandi bari gucuruza, hirya yabo hari abantu bari kudoda inkweto zitandukanye.

Inzu basakaza amategura, ifite urugi ruriho imbaho, ruriho na selire, rwometseho icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwamo. Inyuma y'iyo nzu, hari ibiti bimeze neza. Babyitaho, bitanga umusaruro ushimishije, bivamo intebe, bivamo imbaho n'ibindi bikoresho bikorerwa mu rugo.

Umuryango urimo ibicuruzwa bitandukanye, hamanitse amoko atandukanye harimo: iy'abagabo bambara, iy'abagore bambara, muri uwo muryango baza gukoreshamo amadosiye yabo, imbere harimo ibipupe bambika imyenda ibyo bireshya abakiriya.

Inzu yubatse neza, isize ibyo twita umucanga, ifite urugi rusize irangi risa n'ubururu, hari n'idirishya rinini cyane baterekaho imineke n'umunzani bapimiraho abakiriya, bacururizamo n'ibicuruzwa bitandukanye, abantu baraza bakabigura, barabigurisha.

Inzu zubatse mu buryo bugezweho bubakishijeje amatafari ahiye, akorerwamo imirimo y'ubucuruzi itandukanye. Bacururizamo imyenda yo kwambara, bacururizamo ibikoresho bifashisha bacuranga imiziki. Ikindi kandi iyo myenda ifite amabara atandukanye harimo ay'umukara harimo nay'umutuku n'ibindi.

Icyapa gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, gishushanyijeho abantu mu ntoki zabo hariho icupa bashiragamo inzoga iba ipfundikiye, ikindi kandi abantu hagati yabo hari igikoresho bitaga ameza giteretseho ayandi macupa, ikindi kandi inzoga ntabwo ari nziza kuko ituma umuntu asinda.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, isize amabara atandukanye amwe asa n'umukara ayandi asa n'umweru, hari icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo hashushanyijeho ivide riba ririmo inzoga, hari abantu bafite mu ntoki amavide, ikindi kandi muri iyo nzu hari intebe isize irangi risa n'ubururu.

Umuntu wambara imyenda y'umweru ateka amandazi, inyuma ye hateretse ameza ateretseho isahani, iriho amandazi hateretseho isafuriya ,hateretseho icyuma, abantu baraza bakayagura bakayabagurisha.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatse neza cyane, yometseho amakaro, hariho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo, hariho amavuta yo kwisiga, amavuta yo kurya, hariho omo, ikindi kandi abantu baraza bakagura abacuruzi bakabagurisha.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amarangi asa n'ubururu, yubatseho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo abantu baraza bakagura, abacuruzi bakabagurisha. Imbere y'iyo nzu hari imodoka ifite amabara atandukanye hari n'umutaka usa n'umuhondo.

Amazu y'ubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, asize amarange atandukanye, amwe asama n'umweru, andi asa n'umuhondo, andi asa n'umukara, hari icapa kigaragaza ibicuruzwa bacururizamo. Imbere y'ayo mazu hari moto ihaparitse hari na gaze bifashisha mu guteka. Inyuma y'iyo moto hari abantu bahagaze hari n'umutaka usa n'umuhondo.

Icyapa gisa n'umweru cyandikishije amabara atandukanye amwe asa n'umutuku ,andi asa n'umukara, gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye bigaragaza ibikorwa bihakorerwa, biriho nimero zituma abantu bahamagara bashaka ibikorwa bihakorerwa.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite urugi rusa n'umukara, hari icyapa kigaragaza ibikorwa bihakorerwa gishushanyijeho igitanda, cyandikishijeho amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru.

Amazu yubatse mu buryo bugezweho, ni amazu y'ubucuruzi afite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku ayandi asa n'ubururu, afite imiryango itandukanye imwe ifunguye iyindi ifunze, imbere y'ayo mazu hari igiti kimeze neza cyane.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yometseho amakaro iriho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicuruzwamo, ishushanyijeho omo, amacupa y'amavuta, ikindi kandi abantu baza kugura abacuruzi barabagurisha.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye: imyeyo, ibikapu, baro, amazi bita jibu, inkweto, abantu baraza bakagura abacuruzi bakabagurisha neza cyane, ikindi kandi imbere y'uwo muryango hari umuntu uhagaze inyuma, y'uwo muntu hari indabo zimeze neza cyane.

Inzu bacururizamo ibyo kunywa bitandukanye harimo amakaziye afite amabara atandukanye, amwe asa n'icyatsi ,andi asa n'umukara n'umutuku, harimo amavide arimo ibyo kunywa bitandukanye. Imbere y'uwo muryango hari ikintu bifashisha bashyiramo imyanda bita indobo, ikindi kandi umuryango w'iyo nzu urafunguye.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amarange atandukanye, amwe asa na kaki, ayandi asa n'umweru n'umukara, ifite inzugi zisa n'ubururu, imbere y'iyo nzu hari moto ifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku andi asa n'umukara, hari abantu batatu bahagaze umwe afite umutaka.

Supadipe, isukari, indagara, ibibiriti, ni ibicuruzwa abacuruzi bacuruza, abagura baraza bakagura, abacuruzi bakabacuruza ku giciro kiba kimeze neza cyane, ikindi kandi abantu barabyifashisha biswi baziha abana, ikindi kandi indagara baziteka mu biryo, ziba zimeze neza cyane.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye yubatse mu buryo bumeze neza cyane , isakaje amabati asa n'umukara, ikindi kandi ifite amabara atandukanye. Imbere y'iyo nzu hari ibyatsi bimeze neza bita pasiparumu abantu bicaramo.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, isakaje amabati ashaje, imbere k'uwo muryango hari ibicuruzwa bicururizwamo, isabune, icupa ririmo ibintu n'ibindi. Ikindi kandi umucuruzi arabigurisha bakabigura, kuko biba birimo ingeri zitandukanye.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, mu nzu hari umuntu ufite telefoni mu ntoki ziwe ikindi kandi imbere y' uwo muryango, hari abantu bicaye ku ntebe zitandukanye, imwe ibajijwe mu mbaho indi isag n' ubururu, hari umutaka usa n' umuhondo.

Amazu y'ubucuruzi acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye yubakishije amatafari ahiye, asize amarangi atandukanye asa n'umutuku andi asa n'umuhondo. Ikindi kandi imbere y'ayo mazu hari abantu bari kuri moto ,abandi bahagaze imbere y'uwo muryango.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye yubatse neza cyane, iriho n'amakaro yometseho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo, umuryango w'iyo nzu isize amarangi asa n'ubururu hari igikoresho bakora mu biti kirimo gaze.

Icyapa kiyobora abantu bashaka ibicuruzwa bitandukanye, harimo ipasi, tereviziyo, keto, radiyo, mudasobwa, terefoni, koteri, bicururizwa ku miryango ebyiri, ifunguye, imbere harimo abagura ibicuruzwa bicururizwamo.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye igeretse bitaga etaje ifite amabara atandukanye. Iriho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwagamo ikindi kandi ishushanyijeho ibintu bitandukanye abantu baraza bakahasohokera.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kunywa bitandukanye, bifite amabara atandukanye, harimo ay'ubururu, harimo ay'icyatsi, harimo ay'umuhondo, harimo n'ay'umukara, n'ibindi bitandukanye. Ikindi kandi harimo n'amavuta bisiga mu maso, hari n'amavuta bisiga mu mutwe, abacuruzi baracuruza, abaguzi bakagura.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye: umunyu, akawunga, imiceri, iri mu mifuka ifite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, andi asa n'umuhondo, icyatsi n'umweru, ikindi kandi umuryango w'iyo nzu urafunguye.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho bwometseho amakaro asa n'umweru, imbere y'iyo nzu hari icyapa kigaragaza ibicuruzwa bihacururizwa, hashushanyijeho amacupa y'amoko yose, hirya y'icyo cyapa hari igiti cy'avoka kimeze neza, bacyitagaho kuko gitanga umusaruro ushimishije.

Icyapa gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye , cyandikishije amabara atandukanye, amwe asa n'umukara ayandi asa n'umweru, hariho ibishushanyo papa, amavide aba arimo inzoga, ikindi kandi papa n'igikoresho abantu bakenera, bacyambika umwana bituma atagira umwanda.

Amazu yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, ashakaje amabati y'umutuku, iteye amarangi y'ubururu, ikindi kandi bakoreramo imirimo y'ubucuruzi ,hirya yayo hateyeho ibiti bya avoka bimeze neza cyane.

Amazu y'ubucuruzi yubatse neza, yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, bufite amabara atandukanye bifite amabara y'umweru, ayandi afite amabara y'umukara, ikindi kandi bifite inzugi zifite amarangi asa n'ubururu, inyuma y'ayo mazu hateye ibiti bimeze neza cyane.

Amazu yubatse neza, mu buryo bumeze neza, yubakishije amatafari ahiye ,asize amarangi atandukanye ,amwe asa n'umukara, ayandi asa n'umweru ,hirya yayo hari indabo zimeze neza, hari n'icyapa kiyobora abantu kerekana ibintu bacururizamo, bacururizamo ibintu bitandukanye.

Fanta, vimu, imineke, amata ni ibintu abantu bifashisha bakoresha mu ngo zabo, baraza bakabigura, abacuruzi bakabagurisha ku giciro kimeze neza cyane, ikindi kandi hari firigo bashyiramo amata iba ikonjesha cyangwa ishyushya.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, zubatse neza cyane ziriho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo, imbere y'uwo muryango hari umuntu wicaye ufite imashini badoderaho imyenda, hirya ye hari ibipupe byambara imyenda bituma abantu bareba uko umwenda umeze, ikindi kandi imiryango imwe irafunze ,indi irafunguye.

Inzu z'ubucuruzi bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye bifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku ayandi asa n'umuhondo ayandi afite amabara y'umweru. Imbere y'ayo mazu hari abantu bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, ibasi n'ibindi. Harimo n'abandi bafite imitaka ifite amabara atandukanye, harimo asa n'umuhondo ayandi asa n'umutuku. Imbere y'ayo mazu haparitse n'imodoka ifite amabara y'umutuku.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo, ifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku andi asa n'umuhondo. Hari icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwamo, harimo umuntu uhagaze ari kureba ibicuruzwa bicururizwamo.

Abantu bita abanyonzi, abandi bita abadaso, bambara imyenda itandukanye, umudaso yambaye imyenda isa n'icyatsi, iriho icyapa kigaragaza icyo ari cyo, ikindi kandi abanyonzi bicaye ku magare, bategereje abantu bajyana mu ngendo zitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye yubatse mu buryo bugezweho, ifite amarangi atandukanye isize irangi ry'umukara, ikindi kandi hariho icyapa kigaragaza ibikorwa bakoreramo, hashushanyijeho imyenda abantu bambara na nimero abantu bahamagaza.

Inzu yubatse neza ishakaje amabati asa n'ubururu, ikorerwamo imiririmo itandukanye, bacururizamo ibitandukanye harimo: ibikapu, ingofero, balo, udukapu bahahiramo, harimo: n'amavuta bisigaga. ikindi kandi harimo: n'ibikoresho bifashisha baranjika abana.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, zifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu andi asa n'umweru, zifite imiryango isa n'ubururu, imbere y'iyo muryango hari abantu bicaye abandi bahagaze, ikindi kandi abantu baza kugura ibicuruzwa bicururizwamo.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatse mu buryo bugezweho. Igeretse kabiri, ifite amabara atandukanye. Imbere y'iyo nzu hari imodoka ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara. Ikindi kandi, ifite imiryango isa n'umukara. Hari umuntu wicaye, hari n'uhagaze ku muryango. Ikindi kandi, iyo miryango irafunguye kuko harimo abantu bari gucuruza.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye .Yometseho amakaro, harimo umufuka usa n'umuhondo ,hari umuryango ufite amabara asa n'umukara . Imbere y'umuryango hari umuntu wicaye. Imbere y'uwo muntu hari ibiti bimeze neza, babyitaho, babishyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Bivamo imbaho abantu bakoramo intebe n'ibitanda abantu baryamaho.

Amazu yubakishije amabati ashaje ,afite amadirishya y'umweru, iteye umucanga twita agakarabasasu, hakorerwa imbabura batekaho, abantu barazigura, imbere y'aho hateye ibiti bibiri binini cyane.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, intebe ikindi kandi hari icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwa aho, hari n'icyapa gishushanyijeho, ikindi kandi abacuruzi baracuruza, abantu baraza bakagura.

Inzu yubatse mu buryo bumeze neza, afite amarangi atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umuhondo, imbere y'iyo nzu hari indabyo zimeze neza, ziriho utuntu turandaranda hejuru, imbere y'uwo muryango w'iyo nzu hari abantu bahagaze.

Inzu bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye, asize amarangi atandukanye amwe asa n'umweru, ahinda asa n'umukara hometseho ibyapa bigaragaza ibicuruzwa bacururizamo, inzugi ifite amabara asa n'icyatsi ikindi kandi umuryango wayo urafunze.

Abantu bacuruza bashyiraho icapa kigaragaza ibyo bacuruzamo aribyo: telefoni, radiyo, televiziyo, ekuteri n' ibindi bikoresho bakoresha bacuranga banareba; bicururizwa mu nzu bubatse neza asize amarangi asaga n' umuhondo.

Amazu yubatse mu buryo bugezweho, asize amarangi asa n'umweru, ayandi asa n'umukara. Ayandi yometseho amakaro. Akorerwamo imirimo y'ubucuruzi. Abantu baza bakahafatira ibyo kurya , ndetse n'abashaka amacumbi baraza kuyahashakira.

inzu yubatse neza, yometseho amakaro, isize amarangi y'umutuku, ifite imiryango itandukanye ikorerwagamo imirimo y'ubucuruzi, icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, abantu baza kubigura, abacuruzi barabibagurisha ikindi kandi imbere y'iyo nzu haparika imodoka.

Inzu yubatse neza cyane igerekeranye bita etaje. Bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Hariho ibyapa bigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo . Ikindi kandi imbere y'iyo nzu hari imodoka zifite amabara atandukanye .Amwe asa n'umukara andi asa n'umweru. Hari abantu bari kugenda abandi bahagaze.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amarangi atandukanye amwe asa n'icyatsi, andi asa n'umutuku. Imbere y'iyo nzu hari ibikoresho harimo: imyenda, hari indobo, amasafuriya, imbabura, imikubuzo, n'ibindi. Abacuruzi baracuruza abagura bakagura.

Amazu yubatswe mu buryo bugezweho, asize amarangi atandukanye, amwe asa n'umuhondo andi asa n'umweru, afite imiryango itandukanye ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Amazu yubatse neza ku buryo bugezweho, agerekeranye kabiri asize amarangi atandukanye, yometseho icyapa kigaragaza imirimo itandukanye y'ubucuruzi ikorerwamo, imiryango imwe irafunguye iyindi irafunze.

Inzu yubatse neza mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi ku rugi asa n'ubururu. Yometseho amakaro y'umweru, hariho n'icyapa kigaragaza ibikorerwamo. Hakorerwamo ubwogoshi, gusiga inzara, gusukisha n'ibindi.

Ibikoresho bifashisha bakonjesha cyangwa bashyushya ibintu abantu banywa, bitandukanye. Hirya y’aho, hari amandazi ari mu ndobo zisa n’umweru, hejuru yayo hateretse amacupa arimo inzoga abantu banywa. Abantu baza kugura, abacuruzi barazibagurisha.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo yometseho amakaro imeze neza cyane bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye harimo: imiceri, kawunga, amavuta yo kurya, na salisa bashyira mu biryo n'indagara zimeze neza, ikindi kandi muri uwo muryango harimo umuntu uhagazemo wambaye imyenda isa n'umukara ahetse igikapu gisa n'umukara, ikindi kandi harimo n'umunzani bapimiraho abantu baza kugura ibyo kurya.

Ibikoresho abantu bakenera : omo ,amavuta yo kurya ,ayo kwisiga ,parufe, amasafuriya ,ibikapu inkweto n'imisatsi n'ibindi. Abantu baraza bakabigura ,abacuruzi bakabagurisha ku giciro kimeze neza cyane.

Inzu z'ubucuruzi zifite amabara atandukanye . Inzugi zabo zisa n'umweru bacuruzamo imyenda ikindi kandi hari icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo ,ku muryango hari igishushanyo bita igipupe cyambaye imyenda ,bituma umuntu uje kugura areba uko umwenda uba umeze neza.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati asa n'umweru, hari icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo, ikikijwe n'ibiti, ifite urugi rusa n'ubururu.

Icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwa aho, hari na nimero abantu bahamagaza, byandikishije ikaramu isa n'umukara, hirya y'ibyo byapa hari imodoka ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru andi asa n'umukara, inyuma y'ibyo byapa hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite urugi rusa n'umutuku.

Amazu yubatse mu buryo butandukanye afite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'umuhondo, andi yometseho amakaro. Akorerwamo imirimo y'ubucuruzi hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye abantu baza kubigura abandi bacuruzi barabibagurisha.

Imyenda y'amoko atandukanye yose ifite amabara atandukanye amwe asa n'ubururu, andi asa n'umukara andi asa n'umuhondo, icyatsi ,amapantaro ameze neza cyane abantu baza kugura abacuruzi bakabagurisha. I kindi kandi hari ibipupe byambaye imyenda, bituma abantu babona uko umwenda ukozwe.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye: soya, ibigori, ibishyimbo, ibitenge, ibikapu n'ibindi. Abantu baza kubigura ,abandi bakahagurisha ikindi kandi hari imashini zidoda imyenda.

Inzu yubucuruzi yubatse neza cyane, ifite amarangi asa n'umuhondo, isakaje amategura, inzugi zazo zisa n'ubururu ikindi kandi imbere h'iyo nzu hari imodoka ziparitse, hari n'umutaka usa n'umuhondo, hari abantu bahagaze ku ku muryango.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye yubatse neza cyane, isize amarangi atandukanye, harimo inkweto zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, ikindi kandi imbere y'iyo nzu hari ibipupe bambika imyenda, bituma bikurura abakiriya.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye，isize amabara atandukanye， ku rugi rusize ibara risa n'ubururu， ikindi kandi hari icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo， biswi， amata， n'ibindi. Abantu baraza bakabigura， abacuruzi barabigurisha.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye yubatse neza cyane, ifite amarangi atandukanye amwe asa n'umukara andi asa n'umuhondo. Kuri uwo muryango hari ibicuruzwa biri mu mufuka umuceri , akawunga, abantu baraza bakagura abacuruzi bakabagurisha. Hari umuntu ufite igare uri kurishorera.

Amazu yubatse neza y'ubucuruzi, asize amarangi y'umuhondo, ndetse yometseho n'ibyapa biranga ibicuruzwa bicururizwamo, hari imiryango itandukanye, kandi ifunguye, bacururizamo ibyo kurya, abantu baza kubigura, abacuruzi barabibagurisha, imbere y'ayo mazu hateye ibiti bibiri nini cyane, haparika n'imodoka.

Inzu z'ubucuruzi zubatse mu buryo bugezweho, zubatse neza cyane zifite amabara atandukanye :amwe asa n'icyatsi ayandi yometseho amakaro, ikindi kandi ifite umuryango usa n'umukara, hari umutaka abantu bitwikira bari gukora serivisi zitandukanye ,batanga amayinite kandi imiryango imwe irafunze indi irafuguye.

Amakuvureli, amakanzu, ibikapu n'ibicuruzwa abacuruzi bacuruza. Baraza bakabigura abacuruzi bakabibagurisha. Ikindi kandi hari abantu bicaye babiri bicara mu ntebe bakora mu byatsi, ibajijwe mu biti.

Umuntu wikorera inkweto mu ntoki ze hariho imyenda ifite amabara atandukanye imwe isa n'umutuku, indi isa n'umukara, n'igitenge agifashe mu ntoki, gifite amabara atandukanye arabigurisha abandi barabigura.

Inzu yubatse neza mu buryo bumeze neza, yubakishije amatafari ahiye afite amabara atandukanye amwe asa n'umweru andi asa n'umukara. Umuryango waho urafunze, hakorerwamo ubucuruzi, bacuruzagamo ibintu bitandukanye.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye, hariho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo, bifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo ayandi asa n'umweru ayandi asa n'umukara ifite urugi rufite amabara asa n'ubururu hirya yuwo muryango hari ikintu giteretse bakora mumbaho.

Amazu yubatse mu buryo butandukanye, amwe asize umucanga, andi asize amarangi, andi yometseho amakaro, inzugi zisize amarangi asa n'ubururu, zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, umuryango umwe urafunguye, indi zirafunze, imbere zaho hari umuntu, wikoreye ibitunguru mu ibase.

Intebe ziba zikozwe mu buryo butandukanye, ziba zifite imisego umuntu afata mu ntoki, hagati ya zo hari ameza baterekaho imitako, hirya y'izo ntebe hari igikoresho abantu bifashisha cyitwa etajeri bashyiramo ibikoresho.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye yubatse neza cyane, ifite amarangi atandukanye amwe asa n'umweru, yometseho amakaro, imbere y'uwo muryango hari umuntu uhagaze, ufite ikirahure kirimo ibintu bisa n'umutuku wambara imyenda ifite amabara atandukanye, hari n'intebe abantu bicaraho.

Umuntu wambaraga imyenda zisaga n'umukara wicaraga ku ntebe imeze neza cane, hirya y'iwe hari ameza akozwe neza cane hari umutaka ikindi kandi abantu bazaga kuhasohokera.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, ifite amabara atandukanye amwe asa n'umutuku, andi asa n'icyatsi, andi asa n'ubururu, n'umuhondo. Hariho ibintu abantu buriraho, hari umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye uhagaze uri kureba.

Ibikoresho bifashisha baterekaho ibikoresho bacururizaho bita imbaho birimo amavuta ari mu gacupa, andi ari mu kajerekani, hepfo yaho hari ibikoresho bifashisha bambika abana hari n'amazi yo kunywa.

Inyanya, intoryi ni ibicuruzwa abacuruzi bacuruza, abantu baza kugura, abacuruzi bakabagurisha ku giciro kimeze neza cyane, ikindi kandi hari abantu bicaye, undi ari gukora mu ibase irimo intoryi.

Inkweto, amasafuriya, amabase, indobo, ibikombe ni ibikoresho abantu bifashisha, bakarabiramo, batekeragamo, inkweto barazambara ikindi kandi abacuruzi baracuruza, abaguzi bakaza kugura.

Ibicuruzwa abacuruzi bacuruza imitaka, amakuvuleri, amashuka biba bimeze neza cyane. Ni ibikoresho abantu bifashisha mu kwiyorosa, mu kwitwikira ikindi kandi abacuruzi baracuruza, abagura bakagura.

Amazu gubatse neza mu buryo bumeze neza,, gafite amarangi gatandukanye gamwe gasaga n'umuhondo agade gasaga n'umweru bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda zo kwambara, harimo inkweto zo kwambara, bacururizagamo n'ibindi biribwa abantu baraguraga abandi baragurishaga.

Pavuro, sereri ,karoti, inyanya ,intoryi ,amashu , imiteja, ibitunguru, tungurusumu nibihingwa abahinzi bahinga babyitaho bashiraho ifumbire , bitanga umusaruro ushimishije, barabigurisha bivamo amafaranga, bivamo n'ibiribwa abantu barya.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye ifite amabara atandukanye, hariho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicururizwamo. Imbere y'iyo nzu hari imodoka ebyiri zifite amabara atandukanye, hahagaze n'abantu bari kureba, imbere y'abo bantu hari imodoka ifite amabara atandukanye.

Inzugu z'ubucuruzi zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye bifite amabara atandukanye amwe asaga n'umuhondo andi asa n'umukara, andi asa n'umweru. Harimo umuntu uhagaze wambara imyenda zifite amabara atandukanye, wambaye ku umunwa agapfukamunwa, umuryango urafunguye.

Inanasi ni ibihingwa abahinzi bahinga bazitaho bashyiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije, barazisarura bazijyana ku isoko zitanga amafaranga. Bazijyana ku ruganda zivamo ji abantu banywa, ikindi kandi hari igikoresho bita ameza baterekaho ibase isa n'umutuku irimo inanasi zimeze neza cyane.

Amabase manini cyane asa n'ubururu, ateretsemo amabase afite amabara atandukanye, hirya yayo hari ibikombe n'ibikoresho bakoresha mu mirimo itandukanye. Ayo mabase bameseramo imyenda, bayogerezamo amasahani. Abantu baza kuyagura, abandi barayagurisha.

Amashu, inyanya n'ubutunguru ni ibihingwa abahinzi bahinga babyitayeho. Bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije babijyana ku isoko bakabigurishag bigatanga amafaranga. Baranabirya ikindi kandi hari abantu bafite imigati mu ntoki.

Ibiriganya, ubutunguru, inyanya, pavuro, babyitaho, barabihinga kuko bitanga umusaruro ushimishije, babijyana ku isoko, ikindi kandi ibicuruzwa abantu bacuruza abandi baraza bakagura, abacuruzi bakabagurisha ku giciro kiba kimeze neza.

Telefoni, ekuteri, amasaha, ibicuruzwa abantu bakenera baza kubigura abacuruzi barabibagurisha neza, ikindi kandi ekuteri bazambara mu matwi bari kumva ikintu runaka, telefoni bazikoresha mu ikoranabuhanga bahamagara.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye yubatse mu buryo bugezweho isize amarange atandukanye, hariho icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwamo. Imbere y'iyo nzu hari abantu bafite ibikapu ku rutugu abandi bafite terefone abandi ku mitwe yabo hariho ingofero zisa n'imihondo.

Amazu yubatse mu buryo bwa kijyambere, akorerwamo imirimo y'ubucuruzi, afite imiryango myinshi itandukanye, icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imyenda yambarwa n'abagore, ndetse n'inkweto z'abagore, imiryango imwe irafunze, indi irafunguye.

Inyanya, ubutunguru, intoryi, ibihaza, karoti ni ibihingwa abahinzi bahinga babyitaho, bashiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura, babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, ikindi kandi abantu baranabiteka, abandi batanga amafaranga baje kubigura.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bagura ibicuruzwa bitandukanye, bacururizamo, harimo ibikapu bifashisha batwaramo ibintu bitandukanye, ibitambaro bifubika bimara imbeho, ndetse n'imyenda yo kwambara, hari n'umutaka usa n'umuhondo n'umuntu wambaye ijiri isa n'umuhondo.

Isabune, ibirungo, amajyane, isabune bita OMO, imakasi, supaguru, ibisokozo, biracuruzwa, abantu baza kubigura kuko byifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Nko guteka, gusukura amenyo, gusokoza imisatsi iba ku mitwe, ikindi kandi isabune ya OMO ihumuza imyenda.

Ibishyimbo bifite amabara atandukanye babyitaho bashyiraho ifumbire ,kuko bitanga umusaruro ushimishije barabisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, barabiteka bakabirya, ikindi kandi hari igikoresho bita ameza baterekaho.

Isoko ry'ibiribwa ryubatse k'uburyo bwa kijyambere, ricururizwamo ibicuruzwa abahinzi baba bahinze bakabijyana abatabigira baza kubigura abacuruzi barabibagurisha.

Urujya n'uruza rw'abantu bacuruza abandi bagura, ruri mu nyubako imeze neza, yubakishije ibyo twita imbaho, isakaje amabati asa n'umutuku, ikindi kandi hateretse imifuka irimo ibintu bisa n'umweru.

Imboga, inyanya n'ibihingwa abahinzi bahinga, babyitaho bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije babisarura babijyana ku isoko, ikindi kandi abantu imboga baranazirya, ziba nziza kuko zirinda indwara.

Imineke, amatunda n'ibihingwa abahinzi bahinga, babyitaho bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro, barabisarura babijyana ku isoko bitanga amafaranga, ikindi kandi barabirya biba biryoshye cyane.

Amazu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Yubatse neza cyane, ifite amabara atandukanye. Hari abantu bahagaze imbere y'uwo muryango, ikindi kandi imiryango irafunguye. Imbere y'uwo muryango hari ikintu giteretse bashyiraho ibikoresho.

Urujya n'uruza rw'abantu baza ku isoko kugura ibicuruzwa, ibicururizwamo bitandukanye biva mu byo abantu baba bahinze bakabijyana kubicururizamo. Abantu barabigura ni ibiribwa byitabwaho bimeze neza karoti z'ibyibushye, intoryi, inyanya, pavuro ndetse n'ibindi.

Omo, tayari, uburoso, pampa ni ibikoresho abantu bifashisha mu kwirinda umwanda. Uburoso babwogesha mu menyo, ikindi kandi omo bayifurisha imyenda. Iba imeze neza cyane, abana babambika pampa kugira ngo birinde umwanda.

Inkweto zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, n'umutuku, abacuruzi barazicuruza, abakiriya bakaza kugura batanga amafaranga, kandi hari amasafuriya abantu batekeramo ibiryo by'amoko atandukanye.

Igikoresho bita inkoko kiriho ibishyimbo bimeze neza, babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitangaga umusaruro ushimishije, barabigurisha bitanga amafaranga, barabiryaga ikindi kandi kuri iyo nkoko hariho ibishyimbo, hariho igikombe gisaga n'umweru.

Imyembe, imineke watameroni ni ibihingwa abahinzi bahinga, babyitaho, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, barabisarura, babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, ikindi kandi biba mu mbuto zimeze neza, barabirya kuko bigira intungamubiri ikomeye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ririmo inkweto, amasafuriya, amabase, papiyegenike n'ibindi abacuruzi barabicuruza abaguzi bakaza bakagura, ikindi kandi inkweto barazambara, amasafuriya bayatekeramo, amabase bayafuriramo cyangwa bayogerezamo ibyombo.